Ubuhinzi bw'ibinyampeke aba bantu uri kubona ko basa nkaho bikinze imvura bari barimo gusarura imyaka yabo biteye umutaka; ariko uri kubona basa nkaho bikinze imvura bari kurebera ibyabo kugira ngo bitaza kunyagirwa kugira ngo hatagira ikiza kubyangiriza.

Ubworozi bw'inkoko harimo umuntu usankaho ari kuzitaho ari kuzigaburira ari kuzikorera amasuku, ibintu nk'ibyo ngizo nibyo ndi kubona asankaho ari gukora cyangwa se niba zikeneye nk'imiti isuku, ibyo byose akaba yabasha kuba yazibihereza nazo uri ukubona ko zimushagaye nkaho hari icyo zishaka.